Abapolisi bambaye neza cyane bari gutumika akazi kabo, mwese nimuze dukurikire aba bapolisi, twirinde kubagora mu kazi kabo ka buri munsi ,kuko baducungira umutekano neza cyane.

Umusirikari wambaye imyenda y'akazi. Arimo kuyobora inama ku bantu benshi cyane bamukurikiye. Mwese muze tugire umuco nk'uw'aba bantu, tujye twumvira abatuyobora, kuko ni byiza cyane.

Umusirikare wambaye imyenda y'akazi, yambaye ingofero ya gisirikare ku ipeti rye hariho ibendera ry'u Rwanda, umusirikare urabona ko yiteguye asa nkaho ari gucunga umutekano, umusirikare turamukunda cyane kuko ntawatera igihugu cyacu cyangwa agihungabanye umusirikare ahari.

Umupolisi wambaye impuzankano, afite n'ipeti ryanditseho u Rwanda, ririho n'ibendera ry'u Rwanda, turamukunda kuko aducungira umutekano, akaba nta muntu watuyombera cyangwa ngo atwibe.

Abantu benshi cyane, imbere yabo hahagaze umuntu wambaye imyenda y'umweru n'ipantaro y'umukara urimo kubaremesha inama, ndetse iruhande rwabo hari inzu yubakishije amategura, isize irangi ry'umweru, ni nziza cyane, mwese muze tugire disipuline nk'iy'aba bantu, ni nziza cyane.

Abantu bambaye neza cyane bari ahantu ku meza hari ibitambaro by'umweru, umutuku, ndetse n'amacupa y'amazi, bari ahantu heza cyane, mwese nimuze tujye aha hantu kuko ni heza cyane.

Abayobozi bicaye, imbere yaho hateretse amacupa y'amazi, hariho abasirikare ndetse n'abapolisi, urabona ko aba bantu bicaye bameze neza, batuje, barimo kuyobora inama, abantu baje muri nama baricaye, barimo gukurikira neza, kuko bashaka kumva icyo iyi nama ishaka kuvuga.

Abantu bambaye imyenda y'umukara n'umweru, hariho umugabo uhagaze wifashe neza cyane ufite mikoro asa nkaho ayoboye iyo nama, ndetse n'abandi bose urabona ko bamukurikiye bashaka kumva ibyo ari kwigisha muri iyi nama.

Abantu bambaye imyenda y'umweru, amapantaro y'umukara , ndetse n'ingofero z'umukara ni beza cyane, kandi imbere yaho hari ameza manini y'umweru, iriho ji, amazi, mwese nimuze dukurikire aba bantu kuko baratubwira ibintu bifite akamaro cyane.

Umuvure ufite ibara risa n'igitaka, umuvure ukoreshwa iyo barimo gukama inzoga zitanga amafaranga atandukanye, ndetse n'abantu bakabona ibyishimo biturutse ku nzoga.

Ingoma zifite ibara ryiza cyane, abantu barazikunda kuzivuza, kuko zigira ingoma nziza abantu bakabyina ukumva bimeze neza cyane.

Abantu bambaye imyenda isa n'igitaka bafashe ururabo, ndetse n'abambaye imyenda isa n'umukara utatse mu mutwe, ni beza cyane. Mwese nimuze tugire umuco aba bantu bafite kuko bambaye neza cyane.

Intore zambaye imyenda y'ubururu ndetse zifite n'imisatsi isa neza cyane. Zirimo gutamba zibyina neza cyane, zishagawe n'abantu benshi cyane bambaye neza cyane.

Ababyinnyi benshi cyane bambaye imyenda y'umweru ndetse n'amayugi mu maguru, bafite imisatsi isa n'umweru baratamba barabyina neza cyane. Imbere yabo harimo umuntu ubafotora wambaye imyenda y'umukara ndetse n'ingofero. Bari iruhande rw'inzu mu muhanda.

Abamama bicaye bambaye imyenda y'umutuku bipfutse agatambaro k'umukara n'umweru, bakikijwe n'uruzitiro rutoya. Barimo gukora ibikoresho gakondo byiza cyane

Umuntu wambaye ipantaro isa n'ubururu, ndetse n'ikoti risa n'umukara, urimo kugendera ku bikoni bifite ibara ry'igitaka, inyuma ye hariho agashyamba gasa neza cyane. Uyu muntu afite ubumuga bw'amaguru.

Umukecuru wambaye urugori mu ijosi, yambaye imkenyero ifite ibara ry'umweru n'umukara ndetse n'umupira munda w'umukara, urabona ko yiteze urugori mu musatsi uy'umukecuru arasa neza cyane, urabona yizihiwe n'ibyishimo.

Isafuriya iteretse ku mashyiga atatu iri mu ziko harimo n'inkwi hatetsemo ibiryo. Muri iyi safuriya harimo ibiryo byiza abantu bakunda kurya.

Ibyibo byiza cyane, ndetse n'imitako myiza cyane, harimo umuntu wambaye imyenda y'umutuku, urimo gucuruza ibi byibo, mwese nimuze tugure ibi byibo ni byiza cyane.

Ababyinnyi basa neza cyane, bambaye imyenda y'umweru n'utuntu dutatse mu ijosi twiza cyane, barabyina neza cyane, mwese muze tubarebe ni beza cyane.

Imyeyo ebyiri umwe munini n'undi muto, dukunda kugura imyeyo kuko tuyifashisha turi gukora amasuku mu rugo, bigatuma turwanya umwanda.

Umuntu wambaye imyenda isa n'igitaka ndetse n'umukara wicaye urimo kubumba imbabura. Kubumba imbabura ni byiza cyane kuko bitanga amafaranga umuntu wazikoze ndetse bikanorohereza umuntu uguze imbabura kuko acanwa bitamugoye kandi bikagabanya guhumanya ikirere.

Inka z'amabara meza cyane, zifite amahembe maremare, ziri iruhande rw'imodoka nziza zisa n'umweruru, hariho n'abashumba bari kuziragira.

Umurima urimo abakozi, ni benshi cyane barimo guhinga, bakikijwe n'ishamba ritoya ririmo ibiti birebire cyane, bafite amasuka akwikiye cyane, kandi bamaze guhinga ahantu hanini cyane.

Umumama mwiza cyane w'inzobe wifubitse igishura cy'amabara y'umweru n'umukara, imbere ye hari igisabo kinini kandi cyiza cyane.

Ababyinnyi bambaye imyenda ifite amabara asa n'umweru, umutuku, bambaye utuntu mu ijosi dutatse, bafite imisatsi myiza, iruhande rwabo hariho inzu gakondo, ababyinnyi barabyina neza cyane.

Abantu bambaye imyenda isa n'igitaka ndetse n'ubururu barapfukamye barimo kuboha ibibindi byinshi bitandukanye ibibindi ni byiza kuko tubikoresha mu mirimo yacu ya buri munsi

Uruzitiro rwiza cyane ,rwubatse neza cyane, rurimo inseke zimeze neza cyane, mu nda yarwo harimo agaseke ndetse n'ibirago n'ubugari bwiza cyane ,mwese muze natwe twubake uru ruzitiro ni rwiza cyane.

Isoko ry'ibirago, ririmo abantu bambaye imyenda y'amabara menshi, harimo icyatsi ,umukara, umutuku ,barimo kuboha ibirago n'abarimo kubicuruza. Kuboha ibirago ni byiza cyane kuko bituma abantu baza kubigura bakabona aho baryama maze n'ababicuruza bakabona amafaranga.

Abakobwa beza cyane, bambaye imikenyero ifite amabara y'umweru, igitaka, ndetse n'amasengeri y'umukara, bafite imirishyo myiza barimo kuvuza ingoma, aba bakobwa bafite umuco, natwe nimuze dukurikize umuco w'abakobwa beza cyane.

Ababyinnyi bambaye imyenda isa n'umweru, ndetse n'utuntu mu mutwe dusa gitaka, abantu bakunda kubareba, kuko batuma baruhuka mu mutwe kandi bakishima cyane.

Inka yijigija ubona ko yariye imeze neza, ifite amahembe manini yambaye n'iherena mu gutwi, urabona ko iyi inka imeze neza cyane, inka itanga amafaranga menshi, kuko iyo umuntu arimo gukama abona amata akayajyana ku isoko, akabona inyama n'ibindi.

Etaje igeretse igeze hejuru. Isize amabara y'umuhondo ku nkingi, ndetse n'ibyuma bisize amarangi y'umweru. Imbere aho hariho imodoka y'umukara ifasheho umwana, ndetse n'amapironi ariho amatara. Iyi etaje ni nziza cyane kuko ikurura ba mukerarugendo bakadusigira amadovize.

Inzu yubakishije ibyuma bitukura irimo abantu bari kubaka bambaye amajire y'umutuku, ingofero z'umuhondo bari kubaka inzu imeze neza cyane.

Etaje nziza cyane isize amarangi ajya gusa nigitaka, imbere yaho hariho pasiparume nziza cyane ndetse n'umuntu urimo kuhagenda, mwese muze dusure iyi nzu ni nziza cyane.

Inzu yubakishije amategura itarimo urugi, ifite amadirishya arimo ibirahuri, ikikijwe n'ibigori byiza cyane ndetse n'igiti gifasheho amashanyarazi, n' agashyamba gateretsemo inzu.

Ikiraro cyiza cyane cyubakishije senyenge z'umweru, hariho abantu bambaye imyenda y'umweru n'umukara beza cyane. Mwese muze tujye kuri iki kiraro kuko ni cyiza cyane, kandi gikurura ba mukerarugendo.

Inzu yubakishije amabati ndetse isize irangi ry'igitaka, irimo ubucuruzi bw'imbuto zitandukanye, hahagaze abantu benshi cyane barimo kugura, imbuto ni nziza cyane, mwese muze tujye kugana ubucuruzi, ni bwiza cye.

Umuhanda urimo kugendamo umuntu wambaye imyenda yumukara , impande wu'wo muhanda hariho ipironi rigenda rifashe ho insinga, ipironi iyo bigeze ni mugoroba riraka , maze abantu bari kugenda muri uyu muhanda bakabona neza , kandi uyu muhanda utanga amafaranga menshi , kuko ikinyabiziga kigendamo gitanga imisoro.

Tuwalete nziza cyane, zubakishije amabati zisize amarangi asa n'umutuku, igitaka n'umweru, izi Tuwalete ni nziza cyane, kuko zifite isuku nyinshi cyane, mwese nimuze twubake Tuwarete zifite isuku gutya.

Abantu benshi cyane bambaye imyenda itandukanye, bicaye mu mucaca imbere ya kiliziya yubatse neza cyane barasa neza.

Inzu nini cyane iriho amabara y'umweru, umukara, ndetse ifite n'ibirahuri byiza cyane, imbere yayo hari abantu ndetse n'imodoka nziza cyane.

Kiliziya yubakishije amatafari ahiye, isakarishije amabati yumutuku, ifite uruzitiro rw'ibyuma ndetse n'ibiti birebire cyane. Imbere yaho inyuma y'uruzitiro hari umuhanda urimo abantu bambaye imyenda y'umutuku n'ipantaro y'umukara, umuntu uri gusunika igare ndetse n'ibindi

Uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye. Imbere y'urwo ruzitiro hatatseho icyapa kerekana ko hari urusengero. Nyuma y'urwo ruzitiro hari igiti gifite amashami ameze neza, kandi uru rusengero abantu bagiye kumusengeramo bumva icyo imana yigisha kandi bagakurikiza n'amategeko y'imana.

Inzu yubakishije amabati isize ibara ry'igitaka. Itonzeho abantu benshi cyane, bafite udufuka, bambaye amabara y'imyenda myinshi itandukanye. Mwese muze tugire umuco wo kwirinda akavuyo, dukurikiye amategeko igihugu cyacu kitubwira. Ni byiza cyane.

Umumama uhagaze mwiza cyane, wambaye imyenda irimo ubururu n'igitaka, aremesha inama abandi baturage benshi beza cyane, ahantu heza cyane.

Imodoka nini nziza cyane ifite irangi ry'icyatsi ,imbere yaho hariho abantu bambaye amasarubeti yubururu, bote z'umukara, ndetse n'ingofero z'umuhondo ,barimo guhagarara impande y'iyo modoka.

Abantu benshi bahetse ibikapu batonze imirongo ubona ko basa nkaho bari gushaka serivisi zijyanye no gutega cyangwa akazi. Abantu bakunda guheka ibikapu igihe bagiye mu kazi cyangwa bagiye guhabwa ibicuruzwa bitandukanye.

Imodoka nini cyane isize amabara asa umweru, ubururu, imbere yaho hari umuntu uri gutambuka, n'iruhande rwayo hariho abantu benshi, abantu bakunda gutwara imodoka kuko bibaha amafaranga.

Inzu zubakishije amabati atukura ndetse zifite n'ubusitani, hariho umuhanda umeze neza cyane n'imodoka nini irimo kugenda muri uyu muhanda. Iruhande rwawo harimo ikizenga kinini kirimo amazi, iruhande rw'ayo mazi hariho agashyamba k'ibiti.

Ikiyaga kiri kugendamo ubwato. Ubwato burimo abantu benshi cyane. Abantu bakunda kugendera mu bwato kuko bibafasha kwambukiranya ikiyaga vuba, igihe barimo gukora urugendo rubasaba kwambuka ikiyaga.

Gare iparitsemo imodoka nyinshi, iruhande rw'izi modoka hariho abantu bagenda mu modoka. Izi modoka abantu barazikunda, kuko zituma umuntu abasha kugera iyo agiye vuba, kandi umuntu akaba yava mu gace kamwe akajya mu kandi.

Imodoka nini cyane ifite ibara ry'umweru, iruhande rwa yo hariho indabo zisa n'umutuku ndetse n'abantu bambaye imyenda isa n'umuhondo, umukara, umutuku, mwese muze dutege iyi modoka ni nziza cyane, kuko itwara abagenzi neza.

Imodoka nini cyane itwara abagenzi benshi cyane. Inyuma yaho hari akamodoka k'umweru gatoya cyane, iruhande rwayo hari uruzitiro rw'inzu, ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'ibiti bifasheho insinga.

Indege ifite amabara asa n'umweru ,ndetse n'ubururu, iri mu kirere hejuru. Indege abantu barayikunda kuyigenderamo kuko ari nziza cyane ,kandi ikaba itanga n'umunyenga.

Akagare gapakiye ibidomoro byinshi cyane bisa neza, gatwaye umuntu ukicaye hejuru ndetse n'abandi bagasunika, gakikijwe n'abantu bikoreye imizigo myinshi cyane, isa nk'iya bavunye cyane.

Inzu isize amarangi y'umuhondo ifite ikirango cya emutiyene isize n'amarangi y'ubururu ku nzugi, iruhande rwayo hari gare y'imodoka nyinshi zifasha abanyeshuri, kubageza ku ishuri vuba badakererewe ndetse n'abandi bantu bose bifuza kugera aho bagiye bashaka kugerayo bihuse.

Isoko rinini cyane ririmo abantu bambaye imyenda itandukanye, ndetse n'imodoka nini zisize irangi ry'umweru. Aba bantu ni benshi cyane kuko bari gushaka ibikoresho bitandukanye muri iyi gare.

Moto itwara imizigo, isize irangi risa n'ubururu ndetse n'umukara, iyi moto ni nziza cyane kuko ipakira imitwaro myinshi, ndetse kumafaranga makeya, iyi moto ibasha gutwara n'umuntu igihe yimutse, ikamufasha gupakira imizigo ye.

Gare irimo imodoka nini cyane, zisa n'umweru, ndetse n'abantu benshi cyane, mwese muze tujye kureba izi modoka ni nziza cyane.

Abanyonzi n'abamotari barimo gutwara abakiriya batandukanye, iruhande rwabo hariho igipangu cyubakishije amatafari ahiye, gisize irangi ry'umukara, , ndetse n'inzu yubakishije amabati, isize irangi ry'umweru ryiza cyane.

Imodoka ifite ibara risa n'ubururu, imbere yaho hariho abantu bari mumarushanwa y'amagare, bakikijwe n'abantu benshi cyane. Gukora amarushanwa ni byiza cyane kuko uwatsinze babasha kumuhemba kandi akaba ari kugira n'ubuzima bwiza.

Abantu bambaye imyenda ya siporo, harimo amabara asa n'ubururu, umukara ndetse n'icyatsi, barimo gukora siporo, benshi cyane, mwese muze dukore siporo ifite akamaro kenshi cyane.

Umuntu wambaye ijezi isa n'umutuku ndetse n'isaha y'umukara, inyuma ye hariho undi wambaye imyenda y'ubururu umuntu asa nkurimo kugaragaza ko ikipe iri gukina umukino urangiye.

Sitade irimo intebe z'umweru n'iz'umutuku, harimo abafana benshi bari gufana, amakipe yambaye icyatsi n'ubururu ndetse n'amapantaro y'umukara, n'imipira y'umweru barimo guhatana cyane bari kurwanira igikombe.

Abantu bambaye imyenda ya siporo bari kutugare barimo gukora siporo cyangwa amarushanwa, mwese muze twige kumenya gukora siporo, kuko bituma tugira umubiri mwiza.

Abantu bambaye imyenda ya siporo irimo icyatsi n'umuhondo na kora y'umukara, bafashe umupira urabona ko bishimye barimo gukina barwanira igikombe, iruhande rwabo hari intebe zifite amarangi y'umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi.

Abakobwa batatu bambaye imyenda ya siporo harimo abambaye imyenda y'ubururu ndetse n'umweru. Iruhande rwaba bakobwa hariho intebe zifite amabara y'umuhondo, icyatsi n'ubururu. Aba bakobwa bafite amabaro urabona ko bagiye gukompeta bari guhangana bashaka gutsindira ibihembo.

Abakinnyi bambaye amapantaro asa n'umukara n'imipira y'umutuku. Barimo gukina basiketiboro. Gukina ni byiza cyane kuko bituma umuntu agira umubiri uzira umuze, ndetse bikanamuha amafaranga igihe yakinnye neza agatsinda.

Ikibuga bakiniramo umupira, gifite tapi isa n'icyatsi, iruhande rw'icyo kibuga hariho uruzitiro rumeze neza cyane. Abantu bakunda gukinira mu kibuga kuko bituma baruhuka, ndetse bakanagira ingingo zigororotse.

Abantu bari mu mikino bicaye, bambaye imyenda isa n'ubururu ndetse n'umutuku. Urabona ko basa nkaho baruhutse bananiwe cyane, gukina imikino ni byiza cyane bituma umuntu agabanya ibinure mu mubiri kandi bikinjiza amafaranga igihe wakinnye ugatsinda.

Jalide nziza cyane ifitemo na pisine ikikijwe n'ibiti byiza cyane ndetse na gapasiparume mwese muze tujye kuruhukira aha hantu kuko ni heza cyane.

Abantu bicaye ku ntebe ndende z'umukara. Bari mu kibuga cya siporo. Urabona ko bameze neza cyane. Iruhande rwabo hari umuntu uri kubaha amakuru kubijyanye na siporo, arimo kuvugira muri mikoro baramukurikiye. Urabona ko bamuteze amatwi neza cyane bumva ibyo ababwira.

Umukobwa wambaye umupira usa n'umutuku, ndetse n'akajipo k'umutuku, ufite agakinisho bakoresha bari gukina umupira w'agatenisi, uyu mukobwa akora imikino ya siporo ituma agira ubuzima bwiza, ndetse n'umubiri ugororotse.

Abakobwa bari mu kibuga bari gukina umukino w'amaboko wa balo, iruhande rwabo muri sitade harimo abafana benshi cyane, abakobwa urabona ko bari kurwanira gufata umupira kugira ngo batsinde igitego, gutsinda birashimisha kuko umuntu bamuhemba iyo yatsinze.

Umuhanda ufashemo ipironi ndetse upavomyemo amapave, urimo abantu bafashe amagare, igare ni ryiza cyane, kuko ryinjiza amafaranga ku muntu waritwaye, ndetse igihe umuntu ari kwihuta, hari igihe yitegera igare maze rikamugabanyiriza urugendo.